Niba ufite umwana mutoya, ni byiza ko umugurira ibikinisho birimo akamodoka, harimo n'akagare n'udupupe two akinisha kuko ibi ngibi bishimisha abana cyane.

Iyo ugeze mu mashuri yisumbuye usanga biga amasomo agendanye n'ubuhinzi ndetse bakiga n'indabo n'ibice bigize izo ndabyo cyangwa ikibabi.

Kimwe mu bintu bigaragaza ko ahantu ugeze ari ku ishuri, uhasanga ibishushanyo bigiye bishushanyije ku nkuta z'iyo nyubako, birimo amakarita y'igihugu n'ibindi bintu byose bigendanye n'amasomo.

Mu buryo bwo gutuza ahantu heza Leta yazanye uburyo bwo gufotora bagashyira muri sisitemu amazu yose kugira ngo barebe niba ayo mazu ari ahantu heza, adakwiriye gukurwamo kuko yateza ibyago.

Ibipupe ni bimwe mu bintu bikunze gushimisha abana cyane cyane iyo ubibaguriye usanga babyishimiye ndetse bakumva banagusingiza kuko muri bo ni ikintu bakunda cyane.

Kandagira ukarabe iba ikenewe ahantu hose kubera ko ariyo yimakaza umuco w'isuku, buri wese agomba kwimenyereza gukora isuku umubiri we kugira ngo yirinde indwara z'ibyorezo zandurira mu mwanda.

Buri kigo kigomba kuba gifite imbuga ngari abana bakiniramo igihe bari mu karuhuko kubera y'uko ibi nabyo bibafasha kongera gutekereza neza ndetse bagasubira mu masomo bumva baruhutse mu mutwe.

Iyo ufashe ku mashuri ugashushanyaho ibishushanyo bigendanye n'amasomo abana baziga, bituma bayamenya vuba kubera yuko naho haba hatari umwarimu birebera y'amashusho bakagira ibyo bakuramo.

Amashuri y'inshuke agomba kuba na yo afite inyubako zimeze neza kuko ahantu umwana akurira ni ho hagaragaza ubwenge bwe kubera ko bavuga ngo umwana burya apfa mu iterura.

Kugaburirira abana hamwe biba ari byiza kubera ko abana bakurana indangagaciro zirimo izo gukundana kubera ko bahorana kenshi cyane bigatuma bisanzuranaho.

Kwigisha abana ariko banabyerekwa bishushanyije ni intambwe nziza ituma babyumva neza kuko n'iyo basubiye mu ngo zabo ibyo bintu barabibona nkuko babibonye ku mafoto bagahita babimenya.

Kwigishiriza abana mu bishushanyo n'udupupe, bituma isomo ryumvikana neza kubera yuko umwana kumwigisha umubwira ntabwo abifata neza nko kumwigisha umwereka ibyo umwigisha.

Iyo abana bajyanywe ku mashuri, haba hatangirwa na serivisi zo kuba babapima ibiro, bagashyirwa mu bisubireti ndetse bakareba ko imikurire yabo imeze neza, cyangwa bakabibambika nk'impuzankano.

Si byiza ko ikigo cy'amashuri kiba cyegereye umurima umeze nk'intabire kubera y'uko abana bakiri bato bagomba kuba bajya muri uwo murima bakivurugutamo bagataha banduye.

Kwegereza abana ibyicungo ni byiza kuko bituma umwana aruhuka mu mutwe cyane cyane iyo avuye mu masomo, aba yumva ko nava ku cyicungo ari bugaruke ameze neza mu mutwe.

Mu bigo by'amashuri cyane cyane ay'aba bana batoya akunze kugaragara ko aba atubatswe neza cyane cyane ibigo byegereye mu byaro kubera y'uko usanga nta mbaraga nyinshi babishyizemo.

Si byiza ko igihe ufite ikigo cy'amashuri cyangwa botike yawe wikorera ku giti cyawe, ugomba kuba ifite ibintu imbere bimeze nk'imyanda biyijagaraza, ahubwo hagomba kuba hatunganye hakeye hafite isuku muri rusange.

Ni byiza ko abarezi bakomeza umuco mwiza wo gukundisha abana igihugu, kubera y'uko umwana iyo amaze gukura ntushobora kumubwira indangagaciro z'igihugu ngo azumve neza nk'uwabitojwe akiri muto.

Nutekereza ko kwigisha abana ukoresheje ibishushanyo ari uburyo bubi nta kintu uzigera ubigisha ngo bafate kubera ko imikino irimo ubupupe n'utundi tuntu dushimisha abana bituma bumva isomo neza.

Bimwe mu bikoresho bikenerwa n'abana mu mashuri, igihe bari kwiga imibare by'umwihariko bagomba gukenera amarati y'ubwoko bwose akenerwa mu gushushanya ibishushanyo bigaragara mu mibare.

Umwarimu uzi ubwenge akamenya no gutegura amasomo neza, cyane cyane ayategurira abana bato akoresha inyuguti zicoye mu bishushanya, ndetse umwana akaba yabasha kugifataho akakimenya.

Abana bagomba kwigishwa hakoreshejwe inyigisho mfashanyigisho, kugira ngo bashushanyirizwe udukuru, banatubone twanditse kandi dushimishije.

Abana batoya cyane cyane ku mashuri baba bakeneye ibyuma by'iminyenga bicungaho. Ibi bibafasha kuruhuka mu mutwe kandi n'amasomo ubigisha nyuma yabyo, babasha kuyumva mu buryo bworoshye.

Mbere y'uko umwarimu asohoka mu ishuri, agomba gushyira abanyeshuri mu matsinda akabaha ibyo gukora bakabiganiraho ndetse bagafata umwanzuro kuri byo, byaba byiza bakanasobanurirana.

Kwigisha isomo ry'Imibare biragoye kubera ko abana benshi bakura bumva ko Imibare yananiye abantu benshi bityo bigatuma na bo bumva ko uko bayiga kose badashobora kuyumva.

Ibibuga by'imyidagaduro mu mashuri ayo ari yo yose biba ari byiza kubera ko abana igihe batari kwiga bakenera gukora imyitozo ngorora mubiri kandi iyo badafite aho bayikorera ntibashobora kuyikora.

Buri mwarimu wese iyo afite kwigisha isomo runaka, ni byiza ko abanza gukora ubushakashatsi ndetse akanaritegura neza kubera ko abo agiye kuriha, bashobora kuba bamubazaho ibibazo bitandukanye.

Nitujya twohereza abana ku mashuri tujye, tunabagurira udukinisho tujyanye n'amasomo, kugira ngo bibashimishe. Kubera ko umwana iyo yize afite n'udukinisho, bituma amenya ibintu vuba kandi mu buryo bwiza.

Kera wasangaga abantu batonze umurongo, bashaka serivisi runaka ariko ubu haje ikoranabuhanga ntabwo hakibaho ibintu by'imirongo kubera ko ibyinshi muri byo bikorerwa ku matelefone yabo.

Abana bakunze kubona ibishushanyo by'inyamaswa kandi bakabyigiramo byinshi, kubera ko usanga umwana azi inyamaswa nyinshi ndetse zirenze n'izo wowe uzi ariko inyinshi aba yarazimenye kubera amafoto.

Iyo ugeze mu mashuri, kwa muganga cyangwa ku murenge ntushobora kuhabura Idarapo ry'Igihugu kubera yuko ni cyo kintu cya mbere baha agaciro mbere y'ibindi byose.

Buri kigo cyose kigomba kugira porotayi yanditseho izina ry'icyo kigo kugira ngo umuntu nahagera ahamenye atarinze kubaza abandi kandi atajijinganyije aho hantu aho ariho.

Ni byiza ko buri kigo kigira igicumbi cyanditseho izina ry'ikigo cyacyo, kugira ngo uhageze ahamenye nta kujijinganya mu buryo bworoshye, kandi aharangire n'abandi bitagoranye.

Kwicaza abana mu matsinda ukabasobanurira ibintu neza, birabafasha bigatuma babyumva cyane cyane iyo ugumye aho ubakoresha imyitozo bakayikora bandika, bakagusubiza ibyo uri kubabaza byose.

Abana batoya iyo ubahaye udutabo twanditseho amashusho, asekeje bituma badukunda kandi bagakunda ko ubasomera inkuru zirimo kubera ko burya bazifata mu mutwe bitewe n'ukuntu baba babikunze.

Kwigisha isomo ry'ubutabire bisaba kuba ubizoberewemo, ukaba ufite ibikoresho bigaragaza ibyo uri bugumye ukora ndetse buri wese ukabikora witonze kugira ngo agire icyo aza gutahanamo.

Bimwe mu bikoresho abarimu bakunda gusaba abanyeshuri, harimo nk'agakoresho bita kompa kubera ko bagakoresha iyo barimo barashora ibintu bijyanye n'imibare cyane cyane inziga.

Ni byiza ko igihe uri kwigisha abana cyane cyane aba batoya batazi gusoma no kwandika, ukoresha udukuru tw'inyamaswa kugira ngo bibashimishe, dore y'uko umwana wese akunda inkuru.

Ni byiza ko mu mashuri y'abana bato cyane hagomba kuba hari ibikinisho byinshi babireba bakabirangariramo cyane cyane bari kwitoza ndetse bakora n'imyitozo igorora imibiri yabo.

Mu burezi burya si byiza ko wiga ibintu utabikora ahubwo akantu k'ingenzi cyane nuko ibyo umaze kwiga iyo ubikoze biba byiza ukabimenya neza.

Ni byiza ko ibigo bitandukanye bigomba guhura bikaganira cyane cyane bihuriye mu marushanwa runaka, kubera ko abanyeshuri hari byinshi bungukira kuri bagenzi babo batari basanganywe.

Niba umuntu ahawe ishimwe agomba kubihabwa ndetse akanahabwa ikemeza ko iryo shimwe arihawe, kubera ko amafoto aho mu mitwe y'abantu bakibuka igikorwa bakoze.

Igihe habaye igikorwa runaka cyane cyane cyo kwishimira ibyagezweho ni byiza ko abayobozi bafata ifoto n'abaturage kugira ngo icyo gikorwa ntikizabave mu mitwe bage bahora bakibukira ku mafoto.

Nugira amahirwe yo kuba umuyobozi mu gace runaka, uzajye umenyereza abayoborwa bawe guhora bambaye impuzankano zigaragaza ko ako kazi bakora kaharanga, ndetse na buri wese agomba guhita bamenya akibabona.

Ahantu hari ibyumba bigiye bisa n'imiryango isa, ni byiza ko wandikaho nimero ziharanga ku buryo byorohera umuntu uriburangire kuba yahita ahamenya atarinze kuzenguruka abaza.

Muri kaminuza bikunze kuba bizwi ko iyo umunyeshuri asoje amasomo ye, agomwa guhabwa impamyabumenyi yerekana ko ibyo yize abisoje kandi ari intiti muri byo.

si buri muryango wose dupfa kwinjiramo uko twiboneye, hari imiryango bakwaka ibyangombwa bigatuma iyo ubibuze wisubirirayo kandi wakeneraga serivisi zikorerwamo imbere.

Kwiga ahantu hasobanutse ni ibintu byiza kubera ko nawe ugomba kwitwara nk'umuntu usobanutse, urugero ukaba ufite agakayi n'agakaramu mu nama yose ugiyemo ukaba wakandika ibyavuzwe.

Gutwara ikinyabiziga mu muhanda bisaba ubwitonzi kubera ko umuhanda ushobora kujyamo impanuka zigiye zitandukanye, ariko akenshi bigaturuka ku burangare bw'abawukoresha.

Muri kaminuza niho hantu honyine usanga ubusitani bwiza ndetse n'ibikorwa byaho bisa neza kubera yuko ari ahantu haba ari ah'abasirimu, hagomba no kuba hari serivisi zisirimutse kuri buri wese.